Iduka ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'ibikoresho, aho haba harimo ibyo wakenera byose ukagenda bakabiguha ku mafaranga make cyane, ukabasha kuba watera imbere.

Iduka ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'ibiribwa by'imboga ndetse n'imbuto aho icyo waba ukeneye cyose uza hano uyu mugore wabigize umwuga akakiguha, ukaba wakwishyura Momo pay.

Abagabo babiri bari ahantu mu nyubako ,aho umwe ari umucuruzi undi ari umukiriya waje gushaka serivice ,none akaba ari kwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga akoresheje code.

Abantu bari gusuhuzanya imbere y'akazu k'ikigo gitangirwamo serivise zigiye zitandukanye z'itumanaho mu Rwanda za Airtel, hakaba hari akazu gakoreramo umukozi wayo.

Akazu gatangirwamo serivise zigiye zitandukanye z'umuyoboro mugari mu Rwanda wa Airtel aho kari mu mabara y'umutuku kakaba kanditseho amagambo agiye atandukanye ariko kakaba gafunze.

Akazu gakorerwamo n'umukozi utanga serivisi zigiye zitandukanye z'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda kizwi nka MTN gahagazemo umukozi wako, aho ategereje abakiriya baza ngo abahe serivisi bifuza.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho zigiye zikikiza umuhanda wa kaburimbo, aho zifite imbuga zishashemo amapave, hakaba harimo umukozi wa MTN uhakorera.

Ahantu hahuriye abantu bakorera ikigo k'itumanaho mu Rwanda cya MTN, hakaba hari n'amoko menshi y'ibinyabiziga biri kugenda muri uwo muhanda, aho harimo n'imodoka ya bisi itwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Iyi nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako iriho amabarage atandukanye y'ubururu ndetse n'umweru, ikaba yanditseho amagambo yerekana ko ari muri banki ya kigali.

Umugabo wambaye akajirire ka MTN akaba yicaranye na mugenzi we ari kumwereka muri telefoni serivie batanga, amubwira ko bashobora kumubikurira, kumwoherereza ndetse no kwakira amafaranga.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba uciyemo a akarongo mo hagati kawugabanyamo kabiri, kerekana ko uruhande rumwe rucamo ibinyabiziga bigenda urundi rucamo ibiza, ukaba ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru.

Inyubako nziza cyane yubatswe uburyo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, ikaba ari inyubako y'isoko, isakaje amabati y'ubururu.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye karabasasa ifite inzugi ziri mu mabara y'umweru, hari ababyeyi bari kugenda bayigana, bigaragara ko ari inyubako ikorerwamo koperative.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari mu gikorwa cyo gukorera hamwe kugira ngo barebe ko bakwiteza imbere dore ko no mu kinyarwanda bavuga ngo abashyize hamwe nta kibananira.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo abahinzi ndetse n'aborozi, bakaba bari ahantu mu busitani bwiza cyane bari kwifotoza, bambaye imyambaro iri mu mabara agiye atandukanye.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe mu murima uteyemo amasaka, bakaba bambaye ingofero zigiye zitandukanye hakaba harimo n'umugore witeze igitambaro, bakaba ari benshi cyane.

Abantu benshii cyane bateraniye hamwe aho bari mu gikorwa cyo guteza imbere ibikorwa bakora, hakaba hari umugore ufite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga abandi nabo bamuteze amatwi.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye aho hariho bamwe bari gucuruza imbuto ndetse n'undi muntu ufite mudasobwa, hirya hari abandi bari gucuruza amavuta y'ibuto bifashisha bateka.

Ubworo bw'inkoko bumaze gutera imbere cyane muri iki gihe aho hari abantu basigaye bazorora barabigize umwuga, bakazitwarira ibyo kurya byazo hanyuma bakajya bagenda bazigaburira baziroye mu buryo bwa kijyambere.

Abagore bagera muri babiri, aho bari imbere y'akantu k'akayunguruzo, bifashisha bari kuyungurura ibigori, aho babishyiramo, bakagenda baterura banagaa hejuru kugira ngo imirama irimo, ibashe kumeneka.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri aho ifite ubusitani bwiza cyane, buteyemo amako menshi agiye atandukanye y'ibimera, aho ibi bimera ari ingenzi cyane kuko bizana umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Mu umuhanda ushashemo amapave, ukaba ukikijwe n'amaduka acururizwamo ibintu bigiye bitandukanye ndetse ikirere kiri gusa ubururu ndetse n'umweru.

Akabari gacururizwamo amoko menshi cyane agiye atandukanye y'inzoga, aho izi nzoga ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wese uzicuruje zibasha kumuteza imbere cyane maze agakirigita ifaranga.

Ni inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ifite inkuta ziteye amarangi y'umweru n'inzugi zikaba zisa ubururu. Imbere hateretsemo intebe isa umutuku ya sheze.

Umugore uri mu iduka ricuruzamo, amoko agiye atandukanye y'ibikoresho ndetse n'ibiribwa wakenera ku buryo icyo ukeneye cyose uza kukireba aha ngaha maze ukamererwa neza.

Iduka ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'ibicuruzwa, aho hari bimwe biba birimo imbere ndetse n'ibindi biba biri hanze. Ibi bicuruzwa rero ni ingenzi kuko icyo umuntu cyose akeneye abasha kukibona.

Umuhanda wa kaburimbo, ukikijwe n'urujya n'uruza rw'abantu, aho harimo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hariho akazu gakorerwamo na sosiyete itanga serivisi z'ubucuruzi mu rwanda, izwi nka MTN.

Iduka ricururizwamo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'ibicuruzwa ,aho harimo umucuruzi wabigize umwuga. Akaba yambaye agapfukamunwa k'umweru n'ubururu ,yambaye n'agapira k'ubururu ,ari kugenda yita ku bakiriya.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho itangirwamo serivise zigiye zitandukanye z'ubucuruzi, aho harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye ndetse hateyemo n'amarange y'icyatsi.

Iduka ricuruza amoko agiye atandukanye y'ibikoresho byifashishwa n'abantu kugira ngo bagire isuku, aho harimo udukoresho tuzwi nka jirete twifashishwa mu kogosha inshakwaha.

Uducupa tw'icyuma turimo amoko agiye atandukanye y'amafi cyangwa se y'imiti cyangwa ibirungo, byifashishwa mu guteka dukunze kub turi ahantu mu maduka.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, biganjemo ab'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bakaba bahagaze imbere mu rusengero, bari kwifotoza bishimye cyane, bigaragara ko hari igikorwa runaka bakoze.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe aho bari mu rusengero, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, hariho abapfukamye imbere pasiteri ariko basengera abasabira umugisha ku Mana.

Hoteli itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, aho ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru ndetse ikaba ifite n'inzugi. Iyo hoteli rero ni nziza cyane kuko iyo uyisohokemo umererwa neza.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bari mu nama aho bari kugenda baganira ku nsanganyamatsiko runaka zigiye zitandukanye, bakaba bakikije ameza ndetse buri wese afite amazi imbere ye.

Umuco nyarwanda ukomeje gutezwa imbere cyane aho muri iki gihe mu mahoteli haba harimo intore ziza zigahamiriza, zikabyinira abantu bitabiriye baje muri hoteli.

Umugabo wambaye akajiri n'agapfukamunwa, akaba ari mu nyubako, aho ari kugenda yita ku bakiriya baje bamugana ku kuko iyo nyubako arimo ni inyubako ya hoteri.

Inyubako nziza cyane yubazwe mu buryo bwiza bwa kijyambere bw'amagorofa, ikaba ifite amagorofa agera muri atanu. Ni nziza cyane ndetse iteye n'amarange agiye asa umweru.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari hoteli, aho harimo umugabo wambaye itaburiya ndetse n'udupfukantoki mu ntoki, ari kugenda yakira abakiriya, abaha ibyo bakeneye.

Inyubako nziza cyane ya saro irimo intebe nziza zigezweho aho harimo n'akameza kariho indabyo nziza cyane, ziri mu mabara y'icyatsi n'umweru bigaragara ko ari ahantu heza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ari inyubako ya hoteli, harimo umudebe rwiza cyane, abaje bahagana bicaraho kugira ngo bakirwe, hanyuma babashe kugira ubuzima bwiza.

Icyapa cyiza cyane cyanditseho amagambo agiye atandukanye, cyerekana hoteli itanga serivisi zigiye zitandukanye zerekeranye n'ubuzima.

Inyubako nziza cyane ya hoteli, ikaba ifite ibyumba birimo amabara agiye atandukanye, haba harimo ibitanda, abantu baje kwaka serivisi baryamaho maze bakanezerwa.

Icyumba cy'inyubako cyiza cyane, kirimo ibitanda bigiye bitandukanye, abantu bifashisha baryamaho, igihe cyose bagiye gushaka serivisi zigiye zitandukanye mu mahoteli.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho zisakaje amabati y'umutuku zikaba ziteye amarange y'umweru ku bikuta ndetse zikaba zifite ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo.

Muri hoteli haba harimo amoko agiye atandukanye y'ibiribwa aho umuntu agenda akavuga ikiribwa ashaka hanyuma bakakimushyikiriza maze akagirya akagubwa neza mu mwanya muto.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako isakaje amabati y'ubururu hakaba haparitsemo imodoka zigiye zitandukanye, igaragara ko iyingiyi ari hoteli nziza cyane.

Hoteli ifite ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo ndetse hakaba hari na pisine itwikirije umutaka, aho iyi hoteli ari nziza cyane.

Ahantu heza cyane hari ameza arambitseho amoko agiye atandukanye y'ibyo kurya n'ibyo kunywa biri mu birahuri, ibi ngibi rero akaba ari ingenzi cyane, kuko iyo umuntu abifite abasha kubirya akamererwa neza.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'ibiribwa, ibinyobwa, ndetse n'ibikoresho bijye bitandukanye, ku buryo icyo ushaka cyose uza hano bakakiguha, ku mafaranga make.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'imyambaro aho iyi myambaro ari ingenzi cyane kuko umuntu uyicuruza abasha kubona abakiriya maze akabona inyungu nyinshi cyane.

Abantu bahuriye mu isoko, higanjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, bakaba bacuruza amoko agiye atandukanye y'imyenda, aho umuntu wese uyikeneyeye aza bakayimuha ku mafaranga make.

Abagore bagera muri babiri aho harimo umwe ukenyeye ibitenge by'icyatsi, afite igikapu imbere ye akaba ari umugore mwiza cyane ndetse akaba ari kumwe na mugenzi we.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe biganjemo abahinzi, aho basaruye amahundo y'ibigori babisuka hamwe kuma shitingi, none umugore bari kumuganiriza bamubaza uburyo babigenje kugira ngo biteze imbere utyo.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'ibikoresho aho ibi bikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, haba harimo amapata, ibyuma, ingufuri, utuyunguruzo ndetse n'ibindi.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'ibikoresho, aho ibi bikoresho ari ingirakamaro cyane kuko byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, harimo amasuka, amasahani ndetse n'ibikombe.

Isoko ricururwamo amoko y'imbuto n'imboga bigiye bitandukanye aho haba hari abantu bazicuruza ku buryo igihe cyose uzikeneye uza bakazikugurisha hanyuma na we ukajya kwirira.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'imboga n'imbuto, aho haba hari abacuruzi babugenewe babicuruza. Aho umuguzi aza akavuga ibyo ashaka hanyuma bakabimuha.

Amakabutura y'amoko agiye atandukanye, akundaga gucuruzwa ahantu mu isoko ku buryo umuntu wese uyauuze abasha kumuteza imbere maze agakirigita ifaranga, akaba umukungu.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako yubakishije amatafari ahiye iteye amarange y'umweru ikaba ifite n'ibirahuri ku mpande, yubatswe mu buryo bw'uruziga.

Resitora ni ahantu haba hari amoko agiye atandukanye y'intebe nziza cyane, aho izi ntebe zicarwaho n'abantu bagiye batandukanye maze bakaganira bagahabwa serivisi bifuza.

Umugabo uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, akaba atwaye moto ,yambaye ingofero y'icyatsi ,ari kugenda mumuhanda ,aho bigaragaza ko ari ikinyabiziga ,kimufasha kugera aho agiye byihuse.

Abantu bagera muri babiri aho harimo umwe w'umugabo ndetse na mugenzi we, bakaba bafite icyuma kabuhariwe kizwi nka moto aho iyi moto ari igenzie cyane kuko igenda iha amafaranga nyirayo.

Umuntu uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, atwaye igare akaba yambaye ishati iri mu mabara y'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi. Ari kugenda atwara igare yihuta kugira adakererwa aho agiye.

Umugore utwaye imodoka, yambaye ekuteri mu matwi, atwaye umugabo we inyuma. Si byiza cyane gutwara ikinyabiziga wambaye ekoteri kuko bituma utabasha kumva ibindi binyabiziga .

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'umumotari uatwaye moto, akaba yambaye agapira k'ubururu n'ipantaro ya kaki, iyi moto rero ifasha nyirayo kugera aho agiye byihuse.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere ndetse n' amagorofa aho hacururizwa na moto zigiye zitandukanye, igihe cyose waba uyikeneye waza ukayigurira aha ngaha.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'amoko agiye atandukanye y'ibinyabiziga, ibi binyabiziga rero ni ingenzi cyane kuko iyo ugitunze ubasha kugera iyo ugiye kibigufashijemo.

Moto iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, itwawe n'umugabo uhetse igikapu. Akaba ari moto yiguriye imufasha kujya mu kazi ke nta kibazo afite, akaba ayigendaho.

Umuntu uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, atwaye ibitoki byinshi cyane aho abitwaye ku igare akaba ari kugenda mu muhanda agiye kubigurisha kubera ko ari ibyo yasaruye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu benshi cyane b'abamotari batwara moto, aho hari n'abagenzi baje gutega, ukaba ari umuhanda mwiza cyane wubatswe mu buryo bugezweho.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenrwamo n'amoko agiye atandukanye y'ibinyabiziga aho harimo ikinyabiziga cya moto gitwawe n'umugabo wambaye agapira k'ibyatsi ndetse akaba yambaye'ipantaro y'umweru, ari kukigendaho yihuta kugira ngo adakererwa.

Ahantu hari umuhanda wa kaburimbo uwo muhanda ukaba ukikijwe n'amoko menshi agiye atandukanye y'ibinyabiziga, aho ibi binyabiziga bitwara abantu mu buryo bwa rusange ndetse bikaba ari ingenzi cyane.